Nimba ufite telefone uzakore uko ushoboye umenye kuyikoresha wandika ibintu byinshi bitandukanye mu mabara atandukanye bizatuma uyibyaza umusaruro uhagije.

Mu nama nyinshi uzitabira, uzasanga abantu bari muri iyo nama bahabwa amazi yo kunywa, ushobora kwibaza uti ibi bimaze iki, ibi bituma uyoboye inama adasarara kandi bifasha abakurikiye inama kutarambirwa.

Ahantu henshi iyo hateraniye imbaga nyamwinshi, abantu baba basabwa guceceka, bagakurikira ikibateranyirije aho. By'umwihariko iyo ari mu rusengero, umuntu avuga iyo igihe cyo kuvuga kigeze. Ibyo bituma hatabamo akavuyo.

Abantu benshi iyo bagiye kubwira imbaga nyamwinshi bifashisha indangururamajwi. Uyu mumama wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'isakoshi y'umukara, ubanza akunda ibara ry'umukara niko yabikoze. Mubyukuri buri wese ahari arabasha kumva nta nkomyi nta n'imbogamizi.

Iyo abanyeshuri barangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye bahabwa amahugurwa, nyuma y'ayo mahugurwa bahabwa impuzankano, ibi bigaragaza ko igihugu kizirikana abanyeshuri ndetse kiba kifuza ko umuntu wese yagira ubumenyi ku ndangagaciro z'igihugu.

Abantu benshi bakangukiye gukoresha mudasobwa. Kuko basanze zoroshya akazi. Kandi iyo umuntu ayifite, hari ibintu byinshi yikemurira, bidasabye ko yifashisha abandi bantu bamusaba inyishyu.

Iyo umuyobozi agiye kuvuga imbwirwaruhame, ni ngombwa ko aba areba abo agiye kuyibwira, biba byiza iyo uvuga amwenyura gakeya, bituma abamuteze amatwi batarambirwa kandi ni ngombwa kwifashisha indangururamajwi kugira ngo n'abari inyuma babashe kumva.

Uturere twinshi dutandukanye, usanga twarateguye ahantu ho gukorera inama. Ibi biba byiza kurushaho, kuko n'imishinga igiye itandukanye yigirwa mo. Bigatuma akarere gahora ku isonga, mu kwesa imihigo no mu gutera imbere.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Abantu benshi iyo bari mu nama, akenshi baba bacecetse, bahabwa amazi yo kunywa atuma batarambirwa. Iyo hashize amasaha runaka, bajya mu karuhuko gatoya ndetse n'abashaka kwitunganya bakaboneraho umwanya wo kubikora.

Mu Rwanda ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryaremejwe, buri nama yose usangamo abantu b'ibitsina byombi abagabo ndetse n'abagore, ubu ibintu bimeze neza, ntahantu wajya ngo uhasange hatari abantu b'ibitsina byombi icyo ni igikorwa kiza.

Abagore bahawe ijambo ni byiza cyane, na bo basigaye bagira uruhare mu byemezo bifatwa n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ibi ni ibintu byo kwishimira.

Iyo umuntu ari mu ruhame yafashe ijambo akenshi aba yitonze kugira ngo ataza kuvuga ibidakwiye inshuro nyinshi yifashisha indangururamajwi kugira ngo abashe kumvwa na buri wese.

Abayobozi b'igisirikare cy'igihugu runaka bateraniye ahantu hamwe hari ibyo barimo barigaho ibi bigaragaza ko nabo hagati yabo bafitanye umubano ndetse n'ubwuzuzanye ibi ni byiza.

Abantu iyo bari mu nama biba byiza iyo bicaye batuje bacecetse bakurikiye urimo arabagezaho ikiganiro, ibi bikumira akavuyo n'urusaku aho hantu.

Mu mijyi niho hantu usanga amatara y'ubwoko bwinshi butandukanye ayaka umutuku, icyatsi, umweru, umuhondo, ndetse nandi mabara atandukanye niho hantu usanga ibinyabiziga imodoka, amapikipiki, amagare yo mu bwoko bwinshi, ndetse n'ibindi.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bagira igihe bagafata umwanya bakava mu biro byabo bakajya guhura n'abaturage bayoboye bakabaganiriza ku ngingo zitandukanye ibi bigaragaza ko inzego z'ubuyobozi ziba zifite imikoranire hagati yazo n'abaturage.

Iyo abantu bateraniye ahantu hamwe nko mu nama, mu nsengero cyangwa ahandi akenshi uzasanga bafite amazi yo kunywa, ushobora kwibaza uti abafasha iki, ni cyo nje kukubwira, atuma batarambirwa.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Iyo umuntu afashe ijambo mu ruhame kandi akabona abo arimo kubwira ari benshi, biba byiza iyo yifashishije indangururamajwi. Bituma ibyo avuga byumvikana kandi nabo abwira ntibagire ikibazo cyo gutaha amara masa ntacyo bacyuye, ibi ni iby'agaciro gakomeye.

Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu, ibi bigaragazwa n'uko ahantu henshi habereye inama, usanga abayitabiriye bahabwa amazi yo kunywa. Abafasha gutekereza neza ndetse akabarinda no kurambirwa.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Abantu batuye mu nsisiro zitandukanye bagira igihe cyo guhurizwa ahantu hamwe bagahabwa inyigisho ku bintu runaka; ibi ni ibintu by'ingenzi cyane kuko bituma buri muturage agira amakuru ku bintu bigiye bitandukanye.

Abarwayi iyo bagiye kwivuza bahabwa impapuro zibaranga hanyuma bakicara ku murongo uko baje bakurikirana, kugira ngo bitabweho ntawubangamiwe nta n'uhohotewe, ibi ni byiza cyane bituma abantu bakorera kuri gahunda.

Mu nama nyinshi zitandukanye usanga abantu bahawe amazi yo kunywa, ni byiza cyane abafasha kutarambirwa ndetse no gukomeza gutekereza neza. Akenshi uzabona abitabiriye inama bafite amakaramu ndetse n'udukaye, ni byo baba bandikamo ibyo barimo barigishwa.

Mu nama cyangwa mu bindi biganiro runaka, haba hari abantu bicaye imbere y'abandi, bigaragara ko ari bo baba bayoboye iyo gahunda yabereye aho hantu, ni byiza ko abateze amatwi cyangwa abakurikiye bitonda, ntibasakuze kugira ngo babashe kumva ibirimo bivugirwa aho hantu.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Nimba ushaka kuzagira ejo heza uzige kwandika, nimba uri umubyeyi uzigishe umwana wawe kwandika ibi bizamugirira umumaro mu gihe kizaza, inyandiko iyobora abantu ndetse yifashishwa muri serivise zigiye zitandukanye.

Inyuguti zanditse mu mabara atandukanye, zikururira abantu benshi kuzisoma, inyandiko nyinshi ziba zigizwe n'amabara arenze rimwe, hari izo usanga zifite umweru n'izindi, umuhondo, izindi icyatsi kibisi ndetse n'ubururu.

Iyo uteguye inyandiko hanyuma ku ruhande rwayo ugashyiraho ifoto, iyo nyandiko ikururira umuntu kuyisoma. Ibyo nubikora uzaba ushoboye abasomyi kandi uzaba ubahamagariye kuza gusoma inyandiko yawe.

Ni byiza gukoresha utwatuzo mu nyandiko yawe, bituma uyisoma asobanukirwa neza n'ibyo wanditse, ndetse ubutumwa akabwakira uko wabutambukije. Ibi birafasha dukwiye kwiga gukoresha ibi bimenyetso mu nyandiko zacu.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ubwiza bwa Legasi hoteli kirangira abifuza serivisi zayo, imbere yacyo hari imikindo itatu umwe ukaba usa naho wihishe hagaragara amababi yawo, indi ibiri umwe urakuze undi uracyari muto.

Iyo umuntu arimo ategura umushinga wo kubaka ateganya amafaranga menshi, kuko bitwara, igishoro kinini cyane hari amazu aba afite amarangi atandukanye, ugasanga hamwe n'icyatsi ahandi ni umuhondo ni byiza, bihesha ishusho nziza iyo nyubako.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Ubu byaroroshye serivisi za banki zahujwe n'iza mobayilo moni, aho ushobora kuba ufite amafaranga ku ikoranabuhanga by'umwihariko kuri telefone ukayohereza kuri banki utavuye iwawe, urumva ko ari ibintu byiza cyane bigaragaza ko turi mu nzira y'amajyambere.

Amafaranga y'amanyamahanga yo mu gihugu cy'ubuhinde yo muri banki rizavu y'ubuhinde, ikaba ari amafaranga magana cyenda afite ishusho ya mahati magandi.

Inyandiko nyinshi ziba ziri mu mabara atandukanye ibi bituma abazisoma bazikunda ndetse n'ibizanditseho bigatuma bigera kure mu gihe runaka, nawe nujya gutegura inyandiko yawe uzakore uko ushoboye ushyiremo uruvange rw'amabara menshi.

Hari umuryango mugari witwa MTN. Waje gukemura ikibazo cy'itumanaho. Ahantu hose uzahasanga ibyapa biranga uwo muryango. Aha haragaragara amapikipiki abiri. Atwaye abagenzi.

Mu mijyi ni ahantu usanga hakorerwa ibikorwa byinshi bitandukanye birimo iby'ubucuruzi ndetse n'ibyo gutwara abagenzi hano hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo bigaragara ko utangirwamo serivisi za MTN .

Ntabwo ari byiza na gato kubaka inzu munsi y'igiti kinyura mu insinga z'umuriro w'amashanyarazi ibi bishobora gukurura impanuka abantu bose bafite amazu munsi y'ibiti binyuramo umuriro w'amashanyarazi barasabwa kwimuka.

Kubaka inzu munsi y'igiti kiriho insinga zinyuramo umuriro ntabwo ari byiza. Ibi bishobora kugukorera impanuka za hato na hato. Urusinga rushobora gucika rukikubita ku nzu yawe, bityo igahita ifatwa nk'inkongi y'umuriro. Nyamuneka abahatuye muzashakake uko mwahimuka.

Kenshi tubuzwa kwegera ahantu imiriro y'amashanyarazi inyura, iyo urenze kuri ayo mabwiriza uhura n'akaga gakomeye karimo gushya ndetse n'ibindi, uramenye ntukemerere umwana wawe gukinira hafi y'ahantu nk'aha.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Ahantu henshi mu nsisiro iyo hari amazu menshi usanga haba n'abantu benshi bituma umutekano waho ukazwa, kuko burya ahantu hateraniye imbaga nyamwinshi hashobora kubonekamo n'amabandi.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Akenshi udusanduku duhuriyemo insinga nyinshi dushyirwa ahantu hitaruye insisiro, kuko isaha n'isaha hashobora kuba haba inkongi y'umuriro iturutse kuri utwo dusanduku, ni byiza kugendera kure aho hantu umuntu ntahegere.

Hari abantu bashiritse ubwoba aho usanga agiye akegama ku giti kiriho insinga zinyuramo umuriro w'amashanyarazi ibi ni bibi cyane bishobora kumukurura urupfu rwihuse kuko urusinga rushobora kumanuka rukamugwira agahita ashya ibi mubibuzanye.

Ntabwo ari byiza na gato kubaka iruhande rw'agasanduku gahurizwamo insinga zinyuramo umuriro w'amashanyarazi ,ibi bishobora kugukururira impanuka kubyirinda ni ingenzi nyamuneka muhanahana aya makuru n'uwabikoze ashake ukuntu yakwimuka iruhande rw'ako gasanduku.

Hano ni muri supamaketi, amatara ari kwaka. Harimo etajeri nyinshi ziriho ibicuruzwa bitandukanye. Ndahabona urujya n'uruza rw'abantu, barimo guhaha.

Ahantu henshi hakorerwa ibintu bitandukanye bahora bashishikarizwa gukoresha iki gikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro iyo inkongi ihafashe iki gikoresho kiratabara ni byiza ko umuntu wese yakigira aho akorera.

Ibigo byinshi by'amavuriro usanga bafite udukoresho twabugenewe dutwara abarwayi ndetse n'imiti ,ntabwo umuganga yikorera imiti ku mutwe ahubwo haba hari akuma kabigenewe batwaraho ibyo bintu byose.

Iyo umurwayi agiye kwa muganga arembye akenshi ahamagarizwa imbangukiragutabara kugira ngo agezwe ku bitaro bikuru aho yitabwaho uko bikwiye iyo agezeyo ahabwa serivisi ziruta izo yari guhabwa ku bitaro bitoya.

Inyubako nyinshi z'imirenge akenshi mu mbuga yazo haba hateyemo ibyatsi n'indabo ibi bituma hagaragara neza uhasuye, uhageze bwa mbere akahishimira, akahakunda bikamutera kuzahahagaruka.

Inyubako nyinshi zikorerwamo ibintu runaka, ziba ziriho ibyapa bigaragaza ibikorerwa aho hantu. Akenshi nuhagera, uzahita wibwira ikihakorerwa nta muntu ubajije, cyane cyane iyo uzi gusoma, biragufasha cyane.

Uturere twinshi mu gihugu cy'urwanda tuba dufite ibitaro bikuru byitwa ko ari ibitaro, abarwayi baturutse ku bitaro bito baza kuhivuriza, cyane cyane iyo indwara barwaye zananiwe gukirira aho ku bitaro babanjeho bitoya ku byo akarere.

Inzu iyo isakajwe amabati ntabwo iva, abayirimo imbere mu gihe cya n'ijoro ntabwo bagira ubukonje bukabije, ni byiza gusakaza iri sakaro.

Muri kino gihe tugezemo nta mubyeyi ukibyarira mu rugo, hubatswe amazu ahantu hagiye hatandukanye abafasha kwibaruka abana kandi bagafashwa n'abaganga babyigiye babihuguriwe babifiteho ubumenyi, bityo bikagabanya impfu z'impinja zipfa mu gihe zivuka.

Abantu b'igitsina gore bakunda gusa neza niyo mpamvu usanga bagorwa cyane no kugura imisatsi yo kwishyira ku mitwe yabo ibi ntacyo bitwaye kuko bibongerera agaciro ndetse n'igikundiro

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Inyandiko nyinshi zandikwa mu bika, ibi birafasha bituma umuntu asoma akamenya aho igitekerezo kimwe kirangiriye, ndetse akabona n'aho ikindi gitangiriye bimuha no kuruhuka mu gihe arimo akurikirana iyo nyandiko ni ukuri ni iby'agaciro kumenya kwandika neza.

Buri gihugu kigira urwego rushinzwe gukurikirana abakoze ibyaha iyo umuntu yakosheje arabihanirwa bigaha isomo abandi, ndetse bikanabarinda kuzibeshya gukora ikosa nk'iryo.

Amafaranga y'amanyamahanga yo mu gihugu cy'ubuhinde yo muri banki rizavu y'ubuhinde, ikaba ari amafaranga magana cyenda afite ishusho ya mahati magandi.

Abantu bicaye bambaye idarapo ry'u Rwanda hakaba harimo abagabo n'abagore, bakaba bafashe ku meza ndetse bafite n'amakayi imbere yabo yo kwandikamo.

Iyo umugabo n'umugore bicaye baganira barimo bafata icyo kunywa n'ibintu biba biryoheye ijisho, rwose byerekana ko umuryango cyane cyane abakundanye, bakwiye guhana umwanya umwe akabwira mugenzi we ibyo atekereza.

Iyo umuturage akoze ikosa arabihanirwa, ibyo bituma abaturage batuye mu gihugu bagira umurongo ngenderwaho ndetse naho batagomba kurenga, uwakosheje ashyirwa ahabugenewe, akabihanirwa, akagororwa, nyuma y'igihe runaka agasubizwa mu bandi.

Buri gihugu kigira idaraporo ryacyo cyihariyeho rikiranga abantu benshi baba bafite mu nshingano kubungabunga kurinda no gufata neza idarapo ry'igihugu ibi nawe birakureba .

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse kugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi, harimo ama moto ndetse n'amagare ahetse abagenzi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza ndetse inyuma y'aho hakaba haparitswe n'ibindi binyabiziga binini harimo nk'amakamyo y'umweru.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Arimantasiyo nini cyane irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye kandi bitewe n'ibyo ushaka, biba bigiye biri ahantu hatandukanye, uba ushobora kuyizenguruka kugirango ubone ibicuruzwa byinshi, hakubiyemo ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Mu guhangana n'inkongi z'imiriro hagiye hafatwa ingamba zigiye zitandukanye, zirimo gushyiraho imirindankuba ndetse n'ibindi, aha abantu benshi bashishikarizwa kugura ibikoresho byagenewe kuzimya umuriro bizwi nka kizimyamuwoto. Iki gikoresho iyo ugitunze iwawe uba witeganyirije guhangana n'inkongi y'umuriro.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Abantu benshi twarasirimutse, nta muntu ukijya guhaha ngo ibyo aguze abitwara mu ntoki, hasigaye hakorwa udukoresho twinshi dutandukanye two gutwaramo ibiribwa, aha haragaragara agakapu kari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro.

Ni byiza kandi bikaba ingenzi gutunga nimero za telefone z'aho ushobora kwaka ubufasha mu gihe utewe n'inkongi y'umuriro, aba ni abantu babishinzwe iyo ubahamagaye bahita bagutabara bihuse ntibatinda rwose.

Kubera ikibazo k'inkongi y'imiriro kigenda kigaragara ahantu henshi hatandukanye, abantu benshi bahisemo kugura ibikoresho byo kuwuzimya mu gihe ahantu batuye hahiye, nawe urashishikarizwa kukigura nimba ahantu utuye hari umuriro w'amashanyarazi.

Buri gihugu kigira inzego z'umutekano, akenshi izo nzego ziba zifite ibinyabiziga byabugenewe urugero: ni polisi, ahantu hose uzasanga uru rwego uzasanga rufite n'imodoka zihariye izarwo.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Iyo ahantu hibasiwe n'inkongi y'umuriro, hakenera abantu baza gutabara. Buri gihugu kiba gifite ababishinzwe, ndetse n'ibikoresho byabugenewe. Nuhura n'iki kibazo, uzihutire gutabaza, kugira ngo utabarwe.

Mu mijyi hakunze kuba hateraniye abantu benshi batandukanye, umwe afite gahunda ye n'undi afite gahunda ye. Akenshi haba harimo n'abajura iyo urangaye barakwiba, kugendayo bisaba kwitwararika ndetse no gucunga cyane. Ibi bidufashe kumenya uko tuzajya twitwara mu mijyi.

Buri gihugu gifite inzego zishinzwe umutekano, kugira ngo abaturage batabangamirana polise ibigiramo uruhare, igashyira ku murongo abantu ndetse abashatse kurenga ku mabwiriza bakabihanirwa.

Buri gihugu kigira abashinzwe umutekano, urugero abapolisi, iyo barimo kwitegura kandi barimo gutozwa kuzarinda igihugu bahabwa imyitozo itoroshye, niyo mpamvu umuntu wese atababamo kuko ntabwo twese twashobora gukora iyi myitozo.

Imashini ibara amafaranga, igikoresho cy'ikoranabuhanga gishinzwe kubara amafaranga gikoreshwa muri banki zose yaba izigenga n'iza reta aho gifasha abakozi ba banki kubara amafaranga vuba kandi neza.

Abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda iyo bagiye kwaka serivisi imwe baba bagomba gutonda umurongo kugira ngo babanze uwahageze mbere. Ibi bintu ni byiza bigaragaza ubunyangamugayo ndetse no gukorera mu mucyo, ibi bintu tubikunde.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Iyo abantu bari mu nama baba batuje bateze amatwi, bumva neza ibirimo bivugwa. Ibi ni ibintu byiza cyane dukwiye gufatiraho urugero.

Ibyapa byinshi uzasanga byanditse mu mabara atandukanye, ibi bituma abantu bumva banyotewe no gusoma icyo cyapa. Ni byiza cyane nawe nukenera kwandika ikirango nk'iki uzakoreshe amabara atandukanye.

Nyakubahwa umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, iyo arimo atambuka, agenda gitore. Ntahubuka, ntasahinda, rwose agaragara nk'umuntu ufite ikinyabupfura.

Ntabwo ari byiza guhishi amarangamutima yawe, ni niba wishimye bigaragaze, nimba ushaka kubyina, byina, hagaragara abamama bizihiwe, barimo barabyina biragaragara ko banezerewe rwose.

Abantu badafite amakuru ku bintu bihagije bababwira ko kwambara amadarubindi ari ikimenyetso cy'ubukire, ariko siko biri abantu benshi bambara amadarubindi baba barwaye amaso, niyo mpamvu dukwiye kujya tubungabunga amaso yacu kugira ngo atazangirika.

Abayobozi bagomba kuba bakeye, bambaye neza, kugira ngo babe icyitegererezo cy'abo bayoboye. Ibi abenshi bagerageza kubishyira mu bikorwa, ndetse n'abatarabinoza neza ijana ku ijana, baba bari mu nzira yo kubigeraho.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Burya biba byiza iyo urimo urashyira ku ijanisha ukoresheje igishushanyo, hanyuma ukagenda ugaragaza amabara y'uko ibintu bigiye birutana ku ijana byorohera ubibona kumenya wari ushatse kugaragaza.

Abayobozi benshi bakunda gukora inama zitunguranye kubera ko ibibazo byo kwigaho bivuka buri munsi, kandi nibo baba bareberera abaturage bayoboye, ni muri urwo rwego dushishikarizwa kubaha abatuyobora.

Buri shyaka rigira idarapo ririranga, akenshi hagati muri icyo kirango haba harimo inyuguti zisobanura iryo shyaka, ibi ni ibintu dukwiye kumenya neza, wagera ahantu wahasanga ibintu nk'ibyo ukamenya icyo bishatse kuvuga.

Ababyeyi b'abamama iyi bari aho umukuru w'igihugu yasuye, nibo bantu baba bagaragaje ibyishimo kuruta abandi, mu by'ukuri barizihirwa pe! Ibi ni iby'agaciro.

Abantu bagira impano zitandukanye. Hari abagira impano zo kuririmba abo akenshi usanga bajya ahantu hateraniye abantu benshi, bagasaba umwanya hanyuma bakaririmba biba byiza cyane abahateraniye barasusurukirwa ndetse bakanezerwa.

Abayobozi mu nzego zitandukanye iyo bari mu nama baba batuje bacecetse, bafite mudasobwa cyangwa amakaramu n'impapuro bandika ibirimo bivugirwa mu nama.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agira urugwiro, cyane cyane iyo yasuye abaturage usanga arimo abasuhuza yishimiye kuba bari kumwe, ibi ni byiza cyane bigaragaza indangagaciro z'umuyobozi ukwiye kuyobora.

Inyubako nini yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara ihagaze ahantu hirengeye ubona ko iri ku isoko kandi igurishwa amafaranga make uyishaka yayibona ku giciro cyiza.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Imodoka zizwi ku mazina ya hoho, zikunze gupakira imizigo myinshi cyane. Iyo zikoreye umucanga, ziba zifite uhagije. Aho zimennye, rwose ubona ko ari ituru ifatika. Ibi binyabiziga birahenda, ntabwo byigonderwa na buri wese.

Hari abantu muri iyi si bamaze kubona umurongo w'ubuzima, ahusanga bafite imiturirwa ihenze cyane imbere y'aho akenshi baba barahateye ibyatsi bibafasha kugaragaza ishusho nziza y'aho hantu.

Amwe mu mashyirahamwe ashinzwe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu Rwanda, afite imodoka zigizwe n'amabara icyatsi, umweru, ubururu ndetse n'umukara, aya mashyirahamwe yorohereje abantu mu ngendo zabo za buri munsi, ibi ni ibigaragaza iterambere ry'igihugu.

Mu mujyi ni ahantu dusanga ibinyabiziga byinshi bitandukanye, amapikipiki imodika ndetse n'amagare, ni ahantu kandi hakunze kuba hatuje cyane uretse ko atari hose, hari n'ahaba hari akavuyo hari urujya n'uruza rw'abantu kuko ni ahantu abantu benshi bahurira, mu mujyi haba hakeye.

Imodoka isa umukara irimo irinjira mu muhanda wa kaburimbo imbere yaho hari icyapa gisa umutuku cy'umurongo w'itumanaho wa Eyateri iruhande hakaba hari igipangu cy'icyatsi kiriho urukuta rw'umweru hari amatafari ya ruriba n'ibyapa byo mu muhanda bikoreshejwe ibyuma, imodoka ziri imbere hari n'igikuta cyanditseho mitsingi .

Hari abantu bihangiye umurimo wo kuzajya bacuruza amatungo by'umwihariko inka, aba akenshi usanga bafite imodoka ibafasha gutwara ayo matungo. Ibi bituma umuntu yiteza imbere mu gihe gito.

Muri iyi minsi gahunda yo kwihangira umurimo yahawe intebe cyane aho buri wese abishishikarizwa, uyu mugabo yihangiye akazi ko gutwara abagenzi ku ipikipiki, biramutunze ndetse bitunze n'umuryango we.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Imodoka ifite urwikorero rupfumaguye ibishobora gupakira amatungo nk'inkoko ndetse n'andi, iyo arimo abasha guhumeka no kwinjiza umwuka wo hanze bityo ntapfe vuba vuba cyangwa bitunguranye.

Aha hari uruhurirane rw'abantu bigaragara ko hakorerwa ibintu bijyanye no gucuruza, murahabona karoti, ibijumba, imyumbati y'ibirayi, intoryi, pavuro, imiteja, urusenda n'ibintu byinshi murimo kubona mu mukabona k' inyuma naho hari gucururirwa ibindi rwose murabibona neza cyane ko aha isoko rinini kandi rigari.

Ubu umuturage wese yemerewe kuba yagenda mu modoka itari itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Aho muri buri mujyi uhasanga abashoferi babyiyemeje hanyuma mukavugana ukabaha amafaranga bakakugeza aho ushatse wenyine nta w'undi muntu mugenda mubyigana.

Akazi gafatwa nk'inkingi yamwamba mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza, gukunda umurimo biganisha ku iterambere, uwanga gukora ntakarye, akazi kose waba ukora gakwiye guhabwa agaciro, kaba keza cyangwa se agasuzuguritse nkuko' benshi babivuga.

Mu Mujyi ni ahantu dusanga ibinyabiziga byinshi bitandukanye, birimo amapikipiki, imodoka ndetse n'amagare, si ibyo gusa ahubwo ni ho hantu dusanga insinga zagenewe gutwara umuriro w'amashanyarazi.

Abantu bafite imodoka zisize amarangi y'umweru, bakunze kuvuga ko imodoka zabo zandura vuba, ikindi kandi iyo ushaka gukora umushinga, ni byiza ko ugira igikoresho nk'iki kizajya kigufasha mu rugendo ndetse kikanagufasha gutwara imizigo runaka.

Imodoka zizwi ku mazina ya howo zikunze gukora impanuka, izi modoka ba nyirazo bavuga ko zibinjiriza agatubutse, iyo uyifite utunga abawe ndetse n'abaturanyi.

Abantu batwara ibinyabiziga bitandukanye basabwa kubahana mu gihe bari mu muhanda, umwe akumva ko na mugenzi we akeneye uburenganzira nk'ubwe, ni yo mpamvu akenshi usanga impanuka ziba mu muhanda ziba zidakabije cyane.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Iyo umuntu arimo agenda ku muhanda wa kaburimbo biba byiza iyo agenda yitonze kuko ku nkengero zawo haba harimo umukokwe ushobora kurangara gatoya ukagwamo kandi aba ari harehare ushobora kuvunika mu mugihe uguyemo .

Imodoka nini cyane zitera ubwoba abana bato, iyo bazibonye bararira, nibyo koko, birakwiye ko umuto ategera aho ikinyabiziga kinini nk'iki kiri, bimurinda kuba yakora impanuka.

Imodoka nyinshi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, usanga zifite amabara agiye atandukanye, rimwe ukayibona ifite ibara ry'umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'umukara, ibi bigaragaza ko abantu bamaze gutera indi ntambwe mu bijyanye no kuvanga amabara.

Iyo abantu bagiye muri gahunda zabo bikaba ngombwa ko banyura ahantu mu mujyi bahura n'abandi benshi cyane, bamwe baba bagenda n'amaguru abandi bagenda n'ibinyabiziga, ibi byerekana ko abantu batareshya mu mikoro.

Iyo umuntu akuye amaboko mu mufuka agakora agera ku iterambere, abantu benshi bibwira ko kugera ku iterambere ari ibintu biza nk'umugisha. Siko biri bisaba gukora cyane, uyu munyonzi urabona ko yihangiye umurimo wo kuzajya atwara imizigo ku igare rye, ibi biramutunze ndetse bimutungiye n'umuryango nimba awufite.

Mu buzima bw'umuntu habamo gukenera kwambara imyambaro myinshi itandukanye ndetse n'inkweto aba bagabo babiri, umwe yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kacyi ndetse n'inkweto z'igitaka.

Umuntu iyo afite ubushobozi agura igikoresho kizamwinjiriza amafaranga menshi, iyi modoka irahenda ariko ifasha mu gutwara ibintu byinshi bityo uyifite akinjiza agatubutse.

Abantu benshi iyo bari mu mirimo yabo baba bambaye imyenda igaragaza ko bari mu kazi, ibi bigatuma utamwibeshyaho cyangwa ngo umwitiranye n'undi muntu udakora ako kazi. Ibi ni byiza cyane kuko bituma buri wese icyiciro abarizwamo kimenyekana.

Hari abantu bibaza bati iyi modoka ipfiriye ku muhanda ihava ite kandi iba itabasha kugenda, igisubizo kirahari, haza indi nini kuri iyo ngiyo hanyuma hakaza n'indi ifite ubushobozi bwo guterura ya yindi yapfuye ikayitereka muri iyo ngiyo ije hanyuma ikayitwara bakajya kuyikora.

Imodoka zirangaye inyuma zikunze gupakira imizigo myinshi cyane, umuntu uyifite yinjiza amafaranga menshi bigatuma abaho we n'umuryango we.

Iyo ushaka gupakiza ibicuruzwa byinshi wifashisha imodoka ndende n'iyi ngiyi turimo tubona hano, iyi igutwarira ibintu byinshi ndetse ntabwo iguca amafaranga menshi.

Imodoka ni ikinyabiziga gifasha umuntu gukora urugendo mu gihe gitoya, kandi akaba yagenda ahantu harehare. Nugira ubushobozi uzagure iki gikoresho bizakurinda kujya utakaza umwanya munini muri gahunda zawe.

Imodoka nyinshi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zikunze kuba zifite irangi ry'umweru, ibi ni ibintu bituma umuntu wese iyo ayirebye abona ari imodoka nziza cyane, nawe nukenera gukora urugendo ujye uharanira kugenda mu modoka nkiyi.

Iyo ahantu hari urumuri haba hagaragara neza cyane, umuntu wese yifuza kuhagera ndetse n'uturutse kure aba ahabona, icyihabera cyose kiba kigaragara, iyo ugerageje guta ikintu uhita ukibona bikoroheye, ibi ni byiza cyane.

Hari uduce tumwe na tumwe usanga twiganjemo rujya n'uruza rw'abantu, aho hantu akenshi haba hakorerwa imishinga itandukanye iyo ukeneye kugira ubutumwa utambutsa birakorohera, ni byiza ko abantu bibumbira ahantu hamwe.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwa muntu, ituma agira ubuzima bwiza ndetse hari n'indwara zimwe na zimwe zidapfa kumufata uko ziboneye, sibyo gusa ahubwo binasusurutsa ababihanze amaso, ni byiza cyane tubishishikarire kandi tubikundisha n'abandi.

Abantu batwara ibinyabiziga baba bagomba kumenya ibisobanuro by'ibyapa bitandukanye, kugira ngo nagera aho akiri azamenye uko agikurikiza n'uko acyubahiriza, ibi bituma ibihano afatirwa biba bike cyane, iyo yakurikije neza igisobanuro k'icyapa.

Abantu benshi iyo bagiye kubwira imbaga nyamwinshi bifashisha indangururamajwi. Uyu mumama wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'isakoshi y'umukara, ubanza akunda ibara ry'umukara niko yabikoze. Mubyukuri buri wese ahari arabasha kumva nta nkomyi nta n'imbogamizi.

Ni byiza kumenya ibisobanuro by'ibyapa bitandukanye, bizagufasha gusobanukirwa n'ibintu byinshi bitewe n'aho uzagenda ugera, kandi bizakuri gukora ibintu bitemewe kuko iyo uzi icyo ikintu gisobanuye bituma umenya uko ukitwararikaho.

Ni byiza ko umuntu wese amenya ibisobanuro by'ibyapa kugira ngo ajye amenya uko yitwara mu muhanda, ibi bizatuma atica amabwiriza nk'uko yashyizweho n'inzego zibishinzwe kandi bizamurinda gucibwa amande kubwo kutubahiriza ibikwiye kubahirizwa.

Ku isi muri rusange habaho ubwoko bwinshi bw'inyandiko zitandukanye zandikishijwe amabara y'umutuku, zandikishijwe amabara y'umukara ,zandikishijwe inyuguti nini cyangwa intoya zose zirakoreshwa biterwa n'amahitamo ya muntu ikiba gikwiye kwitabwaho ni ukureba nimba ibyanditse bibasha gusomeka .

Ni byiza kumenya ibisobanuro by'ibyapa byinshi bitandukanye. Ibi bizatuma nugera ahantu ukakihasanga, uzasobanukirwa icyo kivuze. Bikurinde kuyoba cyangwa gukora ibitemewe.

Uyu mugabo uri imbere yanjye afite kompiyuta nini mbere yaho kato ku yindi ntebe ikurikira hari undi nawe ufite compiyuta yambaye ikabutura afite igikapu ateretseho komputer hari abandi bantu inyuma ye nanone bahuze bose bafite telefone bameze nkabari kuri interinete bicaye mu modoka nini ya litiko.

Iyo uzi igisobanuro cya buri cyapa akenshi ntabwo ugorwa no kugenda wica amategeko ahubwo uba ukore ibyo uzi, ni yo mpamvu nshishikariza abantu bose kumenya amategeko y'umuhanda, bizabarinda guhora bacibwa ibihano byo kurengera no kutubahiriza amategeko n'amabwiriza icyapa kiba gisobanura.

Umuntu ufite ubushake bwo kwiga ikintu runaka, arakimenya, akenshi dukangurirwa kwiga ibyapa kugira ngo tumenye icyo bisobanuye, nugera ahantu ki uzabashe kuhikura cyangwa nugera aho kikuyobora uzamenye kuyitwara.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Dukwiye gushishikariza abantu kwiga ibisobanuro by'ibyapa bitandukanye, ibi bizabafasha kujya bagera ahantu bagasobanukirwa n'ibihakorerwa, nta wundi muntu babajije, ibi ni ingenzi cyane, dukangukire kwiga no kujijuka.

Ibyapa biyobora abantu kujya aho bashaka kujya cyangwa gukora ibyo bashaka gukora, byoroshya akazi, aho ukibonye umenya icyihakorerwa, iyo uzi igisobanuro cyacyo umenya ubutumwa kirimo gitambutsa bitakugoye.

Mu rwego rwo kugira ngo tugire amakuru ku bintu bitandukanye, turasabwa kugana ibigo byigisha ibyapa kugira ngo tumenye uko tuzajya tugenda mu muhanda tuzi neza icyo ibyapa bibuza n'icyo bitabuza ibi birafasha cyane.

Nk'uko abantu dukenera kurya ni nako dukenera kwambara, aha hari iduka ricuruza imyambaro myinshi itandukanye, iy'abagabo ndetse n'iy'abagore kandi burya umuntu akenera no gukora ingendo biba byiza iyo ufite imodoka irakorohereza mu rugendo kuko ikurinda kunyagirwa mu gihe imvura iguye.

Abantu batwara ibinyabiziga bitandukanye, bagaragaza ko kugenda ahantu hari umuhanda w'ibitaka bibangama cyane. Kuko ivumbi iriba ryinshi, rikuzura ku utwaye, kandi n'ikinyabiziga kikandura.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Umuhanda wa kaburimbo, uzasanga akenshi ugizwe n'amabara atatu y'ingenzi: umukara umuhondo ndetse n'umweru. Mu mujyi, ni ahantu hakunda kuba hari imodoka. Uko uhatembereye, ntiwavayo utayibonye. Niba ugira ngo ndakubeshya, uzabigerageze.

Urusisiro rugizwe n'amazu ageretse, ruba rugaragara neza. Ndetse buri wese aba yifuza kuba yajya guturayo. Ni uko bamwe babiburira ubushobozi, naho ubundi baba babona ari iby'ingenzi.

Mu nsisiro ni ahantu dusanga inyubako nyinshi zitandukanye, ikizakwereka ko abantu tutangaganya amikoro ni uko uzasanga ubuturo bwacu budasa bamwe baba bari mu buhinzi abandi bari mu buciriritse uko niko abantu tubaho.

Turansifa iteretse ku ipoto y'amashanyarazi ikaba ijyana umuriro ikawongera ndetse ikanawugabanya mu gihe bibaye ngombwa, hanyuma ikaba iteye hafi y'umuhanda kugira ngo igire umutekano.

Ahantu henshi mu mujyi haba hari inyubako nziza, haba hari imikindo hagati y'umuhanda n'indi, ibi bintu bituma umujyi usa neza ugakundwa na benshi ndetse abaturutse mu cyaro bakifuza kuba bawuturamo.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Urukuta rurerure rubuza abajura n'abandi bagizi ba nabi kwinjira iwawe uko biboneye, si byo gusa inyamaswa nyinshi ntizishobora kugutera kuko kurwurira byazigora.

Umuntu wese yifuza kugira inyubako nziza ariko benshi ntibibahira bitewe n'uko aheza harahenda, nibigukundira nawe uzubake inzu imeze nk'iyi, ifite urugi rw'umukara, igeretse, nawe ibi bizakunezeza.

Ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda buhora bushishikariza abaturage bayo kuva mu megeka kuko ibi bintu bishyira ubuzima bwabo mu kaga, nyamuneka muhanahane aya makuru aba bantu bave mu manegeka.

Uburyo bwiza bwo kugira ngo uzajye uhumeka umwuka mwiza, ni uko mu gihe urimo urubaka inzu yawe uba ukwiye no gutera ibiti. Kugira ngo uzamare kubaka inzu yawe, na bya biti wateye bikuze. Ibyo bizana umwuka mwiza iwawe.

Abantu bakora umwuga wo gutwara abagenzi ku ipikipiki batangaza ko ari umwuga ubahesha amaronko n'amaramuko, akenshi nta muntu ukora uyu mwuga cyangwa se uyu murimo uzasanga yabuze icyo arya.

Mu mihanda ya kaburimbo iri mu mijyi, uhasanga abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga byinshi, akenshi biba binyuranyuranamo, iyo utahamenyereye birakugora kunyura mu mihanda yaho.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Umuhanda wa kaburimbo uragendwa cyane, ugizwe n'amabara y'umukara ndetse n'umweru, akenshi ku nkengero zawo hakunze kuba hari ibiti, indabyo n'indi mitako igiye itandukanye, aha twavuga nk'imikindo ndetse n'ibindi.

Mu mujyi ni ahantu dusanga urujya n'uruza rw'abantu benshi, abagenda ku ma moto amapikipiki ndetse n'abandi bagenda mu modoka. Aba bose baba bafite gahunda zitandukanye buri wese aba agiye mu bimureba n'undi mubi bimureba ntawe uba yitaye ku w'undi.

Mu mijyi niho hantu usanga amatara y'ubwoko bwinshi butandukanye ayaka umutuku, icyatsi, umweru, umuhondo, ndetse nandi mabara atandukanye niho hantu usanga ibinyabiziga imodoka, amapikipiki, amagare yo mu bwoko bwinshi, ndetse n'ibindi.

Muri iki gihe ibintu byaroroshye, ushobora kuba wibereye iwawe ugatumiza ibiribwa bitandukanye nk'inyama ndetse n'ibindi bakabikugezaho aho waba uri hose. Hari imodoka zibishinzwe urahamagara ukavuga aho uri ukabarangira neza bakabikuzanira ibi byoroheje ibintu byinshi.

Tugeze mu gihe cyiza. Aho nta bantu bagitakaza umwanya munini, mu ngendo. Ubu byaroroshye, hakozwe ibinyabiziga bitandukanye, birimo amapikipiki ndetse n'imodoka bifasha abantu gukora ingendo, bajya muri gahunda zabo zitandukanye.

Umujyi ni ahantu heza ho gutemberera by'umwihariko ku bantu bafite ibinyabiziga nk'imodoka biraborohera cyane kuko haba imihanda ya kaburimbo itabamo amabuye cyangwa izindi mbogamizi zakwangiza imodoka, ni byiza ko umuntu akora ingendoshuri.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Mu muhanda wa kaburimbo ni ahantu ho kugenda umuntu yitonze cyane cyane ku banyamaguru kuko iyo urangaye gato ukora impanuka cyangwa ukayikoresha abandi, ni byiza ko umuntu agenda adahubuka mu gihe arimo kugenda ahantu ho mu mujyi.

Gutura mu mujyi nibyiza, bituma ubona ibikorwa byinshi by'iterambere mu buryo bukoroheye. Aha navuga nk'imihanda, amatara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nugira ubushobozi uzashake ukuntu watura hafi y'umujyi.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Abantu benshi batunze imodoka iyo muganiriye bakubwira ko bakunda kuzigendesha ku mihanda y'umukara. Basobanura ko imihanda nk'iyi nta mabuye nta n'imikuku ibamo ituma imodoka zangirika.

Nugera ahantu ukahasanga umuhanda w'umukara uzwi ku izina rya kaburimbo, wareba neza muri uwo muhanda ukabona harimo uturongo tw'umweru dushoranye, uzamenye ko ari aho bambukira.

Iyo umuhanda wa kaburimbo utarimo ibinyabiziga, uba usa neza cyane. Buri wese ugeze yifuza kwifotorezamo. Gusa biremewe, nta gitangira ku muntu wifuza gufata agafoto.

Nimba ugiye mu mujyi bwa mbere, ni byiza ko umenya amakuru y'ibiberayo, ukaba uzi icyo itara ryaka umutuku risobanuye mu gihe riri iruhande rw'uturongo tw'umweru duciye hagati muri kaburimbo, iyo ubimenye birakorohera bikakurinda kwica amategeko n'amabwiriza.

Ni inzu nziza igereretse rimwe iteye irangi ry'umweru, ikaba ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure, ikindi iri ku isoko ihagaze amadorari ijana na mirongo ine.

Ni byiza gusobanuza buri kimenyetso cyose kiri ahantu runaka by'umwihariko mu mijyi, bizatuma nuhagera uzamenya uko uhitwara, nimba ari mu mahuriro y'imihanda, bizagufasha kuhanyura nta kibazo uteje.